Abagabo benshi cyane uyu munsi bahugukiye kujya mu mirima yabo, ariko by'umwihariko uyu munsi bahugukiye kujya gutera ibishyimbo, abagabo benshi muri bo bafite ibitaka mu ntoki abandi bari inyuma yabo bari kuza babegera ndetse hari n'ufite umufuka igice cyo hejuru yakibitse mu mufuka we w'ipantaro.

Inyubako icuruza imiti igiye itandukanye, muri iyi nyubako hariho icyapa kiri ku gikuta kigaragaza ko aho hantu bitemewe kuhanywera itabi, kandi hari na kizimyamoto imanitse hejuru isa umutuku ishinzwe kuzimya umuriro mu gihe ahantu hari gushya.

Inzu icuruza imiti ariko yifashishwa cyane cyane mu kurinda ibihingwa, iyi miti harimo iyo batera bapuriza yica udukoko dushobora kugirira nabi ibihingwa ndetse n'imiti bashyira muri ibyo bikoresho bakoresha bapuriza.

Igihingwa cyitwa intoryi, iki gihingwa kiryoshya ibiryo cyane cyane iyo ari ubunyobwa. Iki gihingwa giteye mu butaka, hariho n'ibibabi bisa icyatsi kino gihingwa cyeraraho, iki gihingwa kiba kizengurutse, kimeze nk'igi.

Umuntu ufite igihingwa cy'avoka mu ntoki ze, aho hantu ari kandi hari n'ibindi bihingwa byinshi bya avoka gusa batera mu butaka kugira ngo haboneke cy'ino giti kirekire cyera voka twese tuzi.

Igihuru kinini cyane kiri ahantu mu murima weramo ibihingwa bigiye bitandukanye, iki gihuru kiba cyaratewe n'uko ba nyirabo baba batarahitayeho ngo bakuremo bino bihuru maze birinde imibu.

Iki ni igihingwa cya kinyarwanda gitekwa, kiri mu butaka, kizwi ku izina ry'imyumbati. Hari ndetse n'ibyatsi byera hejuru y'iyo myumbati, ari na byo byifashishwa mu guteka isombe. Iki gihingwa kiraryoha cyane.

Igitoki ni kimwe mu byo kurya biryoha cyane. Umubyeyi uvuye kubyara bamutegeka kurya igitoki kandi cyinshi kugira ngo bimurinde kugubwa nabi mu nda cyangwa se bikamugora kujya mu bwiherero. Igitoki kandi ni nacyo buri mwana wese uvutse arya kugira ngo atazi kugira ikibazo mu nda ye. Hano hari umubyeyi uri kucyitaho yagiteretse kuri shitingi y'umukara kandi kino igitoki ni cyinshi cyane.

Aba ni abagore batanu bafite ibase ebyiri zirimo igihingwa cy'intoryi, bari kuzerekana bifotoza, umwe muri abo bagore afite urutoryi rumwe mu ntoki, abandi bose bari kureba imbere bari kureba umuntu uri kubafotora.

Voka ni kimwe mu gihingwa kigira intungamubiri z'umwimerere kandi nyinshi cyane, voka kandi ishobora gukorwamo n'amavuta, cyane cyane arinda imvuvu umuntu asiga mu mutwe ndetse agakorwamo n'amavuta ushobora kwisiga mu maso akaguheza uruhu rwiza cyane, izo voka ni nyinshi cyane kandi uretse n'inyuma n'imbere mu mubiri zitanga intungamubiri zitagira ingano.

Igihingwa kigira intungamubiri nyinshi gisa umutuku cyitwa inkeri. Inkeri zera ahantu hake cyane mu Rwanda kuko biterwa n'ahantu, ubukonje ndetse n'ubushyuhe buhaba ndetse n'ifumbire ubutaka bwifitiye.

Umugabo uhagaze mu gihingwa kitwa ishu, aya mashu ni menshi cyane, ayahagazemo ari kureba ukuntu ameze, aya mashu kandi agira intungamubiri nyinshi cyane, cyane cyane ku maso kuko akurinda kuba impumyi kandi akanagufasha kureba neza.

Umugore wishimye cyane ari guseka yambaye akagofero gasa shokora. Uyu mugore afite imbuto mu ntoki ebyiri agiye gutera zikavamo ibihingwa runaka, afite isuka mu ntoki yiwe, arishimye cyane ari guseka.

Abaturage benshi cyane harimo abagabo ndetse n'abagore, bari gukora umuganda. Batera ibiti bigiye bitandukanye, ku muhanda kugira ngo birinde isuri kandi bikurure umwuka mwiza.

Abantu benshi bari mu byatsi, harimo abagabo ndetse n'abagore, aba bantu kandi baje gusoroma umuceri, harimo umwe muri bo ufite metero uri kubapimira aho basoroma ndetse afite n'ikayi inyuma, yambaye ikote ry'umukara.

Umugore wambaye bote z'umukara ndetse n'ipantaro y'ubururu n'ishati ya shokora, ingofero y'umukara. Uyu mugore ari mu murima, arasutamye afashe igihombo gisa umukara mu ntoki ze ari kureba imbere.

Abantu benshi cyane harimo abagabo ndetse n'abagore bari gukora umuganda, aba bantu kandi bari ahantu hari ibitaka byinshi cyane bari kugenda bazamura barangiza bakongera bakabijugunya kugira ngo hazabone uburyo hera ibihingwa bimeze neza.

Umugabo uri guhinga mu murima ahantu hari insina z'ibitoki nyinshi, uyu murima kandi urimo n'ibindi biti byinshi bigiye bitandukanye, hirya y'aho hari ahantu hari ubusitani bunini cyane kandi busa neza.

Abantu batanu harimo abagore ndetse n'abagabo bari guhinga mu murima, inyuma yabo hateye insina z'ibitoki ndetse n'ibindi bihingwa byinshi bitandukanye, biri hirya no hino bibazengurutse.

Umubyeyi wizihiwe wambaye igitenge, ikote risa umutuku ndetse rifite n'amabara y'umweru ndetse n'igitambaro cy'ubururu mu mutwe, ari mu murima we aho agiye kureba ibirayi yahinze ukuntu bimeze niba byareze neza hanyuma akajya kubiteka akabirya.

Isoko rinini cyane, ricururizwamo ubwoko butandukanye bw'ibiryo, abantu benshi cyane baje kugura ibi biryo, harimo nk'inyanya zituma ibiryo bisa neza cyane, kandi bikagira uburyo biryoha cyane. Hari n'ibindi bikoresho byifashishwa masuku nk'amasabune n'ibindi bigiye bitandukanye biri hirya no hino muri iri soko.

Abagabo bahagaze ahantu hari ibyatsi byinshi cyane. Umugabo umwe ndetse n'umugore umwe wunamye bari kureba ahantu hamwe, kandi inyuma yabo hari ipoto rigenda rigemura amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye.

Abantu babiri bari kugendagenda mu gihingwa gifite uturabyo tw'umweru, aba bantu kandi ni abagoronome kuko bari kugenda batera imiti yica udukoko dushobora kurya ibi byatsi.

Ibigori byinshi cyane byumye, bishobora kuvamo umusaruro uhagije, maze abantu bakabona kawunga nyinshi kandi ifite intungamubiri, ibi ibigori bimanitse ahantu, hirya yaho hari ahantu hari ishyamba.

Abantu benshi cyane bafite ibipapuro mu ntoki, harimo abagabo ndetse n'abagore, bahagaze ahantu hari igitoki cyinshi cyane, bisa nkaho baje kugura ibyo bitoki, iyo nzu bahagazemo kandi hari ibiti hejuru ndetse n'itara birasa nkaho bari imbere ku marembo y'iyo nzu.

Ababyeyi babereye igihugu babereye u Rwanda basutamye mu myumbati bari kuyisanza neza kugira ngo izuba riyigereho maze iyi myumbati yume izavemo ifu y'ubugari, aba babyeyi kandi abenshi muri bo bateza ibitambaro abandi bambaye utugofero mu mutwe kuko ariwo muco wa Kinyarwanda abagore badakunda kwerekana mu mutwe habo.

Ibiti birebire cyane biri mu ishyamba ryitwa Alberituum, riba muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Ibi biti harimo ibihagaze neza ariko harimo na kimwe kigonze gisa nk'aho kigiye kugwa. Ibi biti ni ingirakamaro cyane, cyane cyane mu mihumekere y'ikiremwamuntu.

Igikakarubamba ni igihingwa cyiza cyane kuko kifashishwa mu gukora imiti itandukanye, yaba ivura abantu ndetse n'ivura inyamaswa. Iki gikakarubamba gihinze mu murima ahantu hari ibitoki ndetse na avoka.

Igikakarubamba umuti ku ndwara nyinshi, igikakarubamba ushobora kucyisiga ufite ibiheri cyangwa indi nkovu mu maso maze iyo nkovu ikagenda nka Nyomberi, igikakarubamba kandi ushobora kukirya urwaye mu nda maze ugahita ukira, igikakarubamba ni umuti wa Kinyarwanda kandi ufite akamaro gakomeye.

Ahantu hari ubusitani, burimo ibiti birebire bitandukanye, aha hantu kandi hari igiti kimwe cyacitse kiri hasi ndetse n'ikindi cyigonze kiri imbere y'ibindi byose n'ibindi byinshi biri inyuma y'icyo ngicyo cyigonze.

U Rwanda ni Igihugu gitemba amata n'ubuki kubera ibiti, imisozi ndetse n'ibihingwa byera, iki ni kimwe mu biti byera mu Rwanda, hirya y'iki giti hariyo insina zeraho igitoki.

Igihingwa cyitwa intoryi, kiri mu ibase isa umutuku. Hasi y'iyo base, hari ikindi gihingwa cyitwa karoti. Ibi bihingwa byombi iyo byifashishijwe mu guteka imboga, izi mboga ziba ziryoshye kandi zifite intungamubiri nyinshi.

Abagore babiri bambaye ingofero, umwe yambaye ingofero y'ubururu, undi yambaye ingofero ya shokora, kandi bose bambaye imipira y'umukara. Bahagaze imbere y'akarima k'igikoni bari guca imboga zo gutekesha, umwe ari guseka, undi uri kubona yuko atari guseka.

Ibihingwa bitatu ari byo karoti, intoryi ndetse n'inyanya, ibi biribwa bigira intungamubiri nyinshi cyane kuko nka karoti zishobora ku kurindira amaso ukareba neza kandi ntuzabe impumyi. Inyanya na zo zituma ibiryo bisa neza kandi bikanagira uburyohe bw'umwimerere.

Uyu mutegarugori, umuberarugo, umukobwa w'i Rwanda, ahagaze ahantu hari ibyatsi byinshi cyane bitandukanye, afite ibinyomoro bitatu mu ntoki ze kandi ari kubireba akishima, ikigaragara cyo ni uko umusaruro wavuyemo umunyuze.

Iduka ricuruza imbuto zigiye zitandukanye, harimo imineke, harimo wotameroni, amaronji, ndetse n'imyembe, hirya kandi harimo ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu gikoni, ibyinshi ni ibirungo by'amafu.

Igihingwa cyifashishwa mu guteka ibiryo cyitwa pavuro. Giteretse ahantu hari igitenge kirimo amabara atandukanye, harimo umweru, umukara, umuhondo ndetse n'umutuku. Iki gihingwa gituma ibiryo biryoha kandi bikanahumura neza.

Ikinyomoro ni igihingwa cyiza cyane gifasha umuntu mu gutanga intungamubiri zigiye zitandukanye, iki kinyomoro cyongera amaraso mu mubiri kandi amaraso twese turabizi ko ari ikintu umuntu atabaho adafite.

Umugabo ndetse n'umwana mutoya bari mu gihingwa cyitwa ikirari, ikirayi ni kimwe mu gihingwa gikenerwa cyane mu Rwanda kuko abantu twese dukunda kwirira ifiriti kandi ifiriti ikorerwa muri ibyo birayi, rero aba bantu nabo bagihagazemo umugabo afashe ku kibabi kimwe, umwana ari kureba imbere.

Umugabo uri mu murima uhingwamo amateke ndetse n'ibirayi. Uyu mugabo afite akabase mu ntoki, yambaye umupira wa oranje ndetse n'akagofero. Uyu mugabo kandi ari kureba ukuntu umurima we umeze niba nta ndwara n'imwe ibihingwa byiwe bifite.

Abantu bari mwishyamba kandi rinini cyane, aba bantu bari guhinga mu murima urimo ibindi bihingwa ariko bikiri bito, kandi muri uno murima harimo n'ibindi biti birebire cyane byakuze byiza.

Abagabo babiri barebare, umwe w'inzobe n'undi w'igikara, bahagaze ahantu hari ibyatsi byinshi, umwe ari guseka, undi arunamye ari kureba hasi, yambaye isaha nziza cyane y'umukara.

Amabase arimo ibihingwa bitandukanye, arimo imiteja iri mu ibase itagaragara neza, ndetse na tungurusumu ziri mu mbase iteretse hejuru, ndetse na pinari igihingwa kigira intungamubiri nyinshi cyane.

Ibitunguru ni kimwe mu bintu byifashishwa nk'ibirungo mu guteka ibiryo, igitunguru ni cyiza cyane kuko iyo kigiye mu mavuta kikajyamo n'ibiryo bituma ibyo biryo bihumura neza cyane kandi bikanaryoha.

Isoko ricururizwamo imboga zigiye zitandukanye, harimo karoti, dodo, pavuro ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutegura ibiryo, harimo nka puwaro, hari n'ibase iteretsemo ibyo byo kurya.

Abana baba bagomba gukura neza, bafite imirire myiza ndetse n'ubwonko bwabo bugakora kandi byihuse. Imineke ya kamara ni kimwe mu bintu bifasha abana kugira ubwenge ndetse no kugira imikurire myiza, bagakura bishimye, bameze neza kandi bafite n'ubwenge. Ikiruta ibindi bafite ubuzima buzira umuze.

Umugabo ufite umupira uri kuvamo amazi, ari kuhirira umurima we, uyu mugabo kandi rwose ni igikara cyane, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ahagaze mu biziba bitewe n'uko iyo yuhira amazi ajya mu butaka, kandi ntago amazi ahita apfa kujya mu butaka hasi, ubwo rero akenshi abanza kurema ikidendezi hejuru, ari yo mpamvu ahagaze mu mazi.

Ahantu ku musozi hari amaterasi y'indinganire, hateye ibiti byinshi cyane ndetse hari n'ahantu hacukuye harimo imigende y'amazi n'ibiti byinshi biteye ku musozi, aha hantu harasa neza.

Ahantu hanini hari ibyatsi byinshi bitandukanye, hari n'ibiti, heza, hafotoreshejwe na telefone iri mu bwoko bwa infix, aha hantu haratuje, harasa neza cyane.

Umwana wambaye agakanzu kagufiya gashaje cyane, ahagaze ahantu hari umusozi mwiza cyane uriho ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi byinshi, uyu mwana kandi ari kurya intoki.

Umubyeyi wikoreye inkwi, ari kwambuka ku kiraro ahantu munsi hari amazi menshi cyane, uyu mubyeyi arakuze, afite n'agakoni ari kugenderaho, ari ahantu hari ibyatsi byinshi cyane, haruguru hari ishyamba rinini rifite ibiti bisa neza, ndetse n'umunara ufashe imigozi igenda itanga umuriro mu ngo zigiye zitandukanye.

Ahantu hari ibiti byinshi ndetse n'amaterasi y'inganire, ibi biti bifasha mu bintu byinshi harimo nko gufata ubutaka kugira ngo wiyirinde isuri ndetse no gukurura imvura kugira ngo ibihingwa bibone imvura ndetse n'akazuba karinganiye.

Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti byinshi ndetse n'amazu ari hirya yaryo, aha hantu kandi hari ubusitani bunini cyane burimo amazi atuma buno busitani butuma, mu gihe hejuru hahinzeyo igihingwa cy'umwumbati ndetse cyeraho n'isombe.

Ahantu hari imisozi myiza cyane, hari ibiti byinshi ndetse hari kugaragara n'igicu cyiza kirimo ubururu ndetse n'umweru, aha hantu haratuje, hari akayaga keza, hari ibiti n'amazu, n'imisozi bihari, bigaragaza ko aka gace ari keza kandi gatuje.

Itungo rigufiya ryororerwa mu rugo rizwi ku izina ry'ingurube, riryamye hasi rirasinziriye, imbere yaryo hari umwanda mwinshi kandi n'ahantu iryamye harasa nabi.

Itungo ryororerwa mu rugo, rizwi ku izina ry'ingurube, riri ahantu hatarangiza kubakwa, harunze amabuye menshi ndetse hahagaze n'inzu idateye irange, ubona yuko itarangiza kubakwa.

Ihene ifite amabara y'umukara ndetse na shokora, iziritse ku giti irasa nk'aho ihaka, iyi hene kandi iri mu murima ahantu hari insina z'ibitoki ndetse n'izindi ndabo zigiye zitandukanye ziri inyuma yayo.

Inzu isa n'iyasenyutse isigayeho amatafari gusa, imbere yayo hari amatungo magufi yororerwa mu rugo, azwi ku izina ry'ingurube, izo ngurube ziri kurya ubwatsi buri imbere y'iyo nzu, aho hantu urabona yuko hasa nabi cyane.

Iyi ni imwe mu matungo magufi, yororerwa mu rugo izwi ku izina ry'inkoko, iri ahantu iri kureba hirya iyi ngiyi kandi ni isake, ahantu iri biragaragara cyane ko ari mu rugo.

Ihene ebyiri zifite amabara y'umukara ndetse harimo imwe muri yo ifitemo ibara ry'umweru. Zihagaze ahantu bazizirikiye, ziri kurya ubwatsi, ziri ahantu hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo zisa neza.

Amatungo magufi azwi ku izina ry'inkoko, izi nkoko ni esheshatu, zose ni amasake, ziri kugenda zitora ibyo kurya ahantu hari inzu itararangije kubakwa.

Inka isa umukara iri mu kiraro cyayo, yasohoye umutwe, iri kurya ibyatsi batemeye aho hasi kugira ngo ize kuza kubirya, iri mu kiraro cyubakishijwe ibibabi by'inturusu.

Ingurube iri guhunahuna ngo yumve ibintu biri hanze y'ikiraro cyayo, iyi ngurube iranduye cyane bitewe n'uko ahantu iri hatari ibyatsi ishobora kuryamaho maze ntiyandure kandi ntinarware ngo igire ubuzima bubi.

Amatungo yororerwa mu rugo magufi yitwa ingurube. Iyi ngurube iri kumwe n'utwana twayo twinshi turi kuyonka kandi byose biri mu kiraro kimwe. Ingurube bavuga ko iyo utinze kuyigaburira gato ishobora kurya n'ibyana byayo, ku umuntu yoroye uba ugomba guhora wamenye neza ko yahaze.

Ingurube za kizungu, nyinshi cyane ziri mu nzu imwe, gusa aho hantu izo ngurube ziri, hari umwanda uteye ubwoba, ingurube ubundi izwi nk'igikoko kigira umwanda mwinshi cyane, kirya cyane, ariko nanone cyororoka mu buryo bwihuse, kandi kikazana amafaranga vuba.

Umubyeyi uhagaze imbere y'ihene ebyiri, izi hene ntabwo zisa, kuko imwe isa shokora, indi isa umukara ndetse n'umweru, kandi izi hene zose ziziritse ku gati, zihagaze imbere y'uwo mugore zimwitegereza, hasi hari ibyatsi, ndetse uru rugo rugoteshejwe imiyenzi.

Inka nziza cyane ifite amabara ya shokora ndetse n'umweru, iri mu kiraro cyayo irindiriye yuko baza kuyitaho, urabona yuko yanduye, idaheruka gukorerwa isuku, iri ahantu hazengurukijwe n'ibiti.

Inka nini cyane y'umukara, iri kumwe n'akanyana kayo, ako kanyana karyamye hasi ku byatsi, mu gihe iyo nka nini yo iri kurya ubwatsi, izi nka zombi ziri mu kiraro cyazo ariko cyubatse neza kitubakishije ibiti.

Ikiraro cy'inka nziza cyane y'isine. Inka y'isine iba ifite amabara y'umweru n'umukara, ari na yo mabara iyi nka ifite. Imbere y'iyo nka hari umushumba wayo, hasi hari ibyatsi iyo nka ishobora kuryamaho mu gihe bibaye ngombwa.

Kimwe mu bintu bituma u Rwanda ruba rwiza, harimo n'ubworozi. Ingurube ni zimwe mu nyamaswa zororerwa mu rugo kandi zigatanga umusaruro uhagije kuko ingurube imwe ishobora kubyarira abana icyenda icyarimwe. Izi ngurube ni nyinshi kandi ziri mu kibuti cyazo.

Ihene. Ihene ni inyamaswa iryoha cyane, ihene igira inyama ziryoha kandi burushete yazo yitwa zingaro njyewe niyo nkunda cyane, izi hene zihagaze mu kiraro cyazo, hasi yashashe ibyatsi kugira ngo zitaryama ku butaka.

Ingurube ni rimwe mu matungo yo mu rugo, ingurube irororoka cyane kandi ikagira umusaruro mu buryo bwihuse kandi icyiza cyayo nta n'ubwo itwara ibyo kurya byinshi cyane, ingurube ibyara abana hagati y'icyenda ndetse na barindwi kandi aba ngaba bakura vuba, bigatuma amafaranga watanze ugura iyi ngurube, agaruka byihuse.

Ibishyimbo igihingwa cyiza kigira intungamubiri nyinshi cyane, ibi bishyimbo kandi ni byinshi cyane bifitemo amabara y'umweru ndetse n'umutuku, ibishyimbo bigira intungamubiri cyane cyane ku bakobwa ndetse n'abagore.

Ahantu hamanikwa ibigori bikiri bibisi bitaruma kugira ngo byume maze bazabishyire mu cyuma bivemo kawunga, ibi bigori kandi bimanitse ahantu hatwikirije shitingi isa ubururu, kandi hari n'ibiti bifashe iyo shitingi.

Umugabo ushinzwe kuvura ibihingwa ukorera i Huye, ari ahantu hari imiti ishinzwe kwica udukoko mu bihingwa, uyu mugabo ateye umugongo ibintu biri inyuma ye kandi ari kureba imbere ahantu hateretse imiti.

Inka isa nabi, ifite amabara y'umweru n'umukara iri gukamwa, iruhande rw'iyo nka hahagaze abagabo babiri, umwe yambaye ikote ari kuyikoraho, undi arasutamye asa nkaho ari gukama iyo nka.

Abagabo bane bahagaze ahantu hari inka, iyi nka iri guterwa urushinge na veterineri ushinzwe kuyitaho kandi aba bagabo babiri muri bo bafashe umutwe wayo kugira ngo itinyeganyeza urwo rushinge ntirwinjiremo. Iyi nka ifite ibara ry'umukara ndetse n'amaguru asa umweru.

Abagabo babiri bafite itungo rizwi ku izina ry'imbwa, iri tungo rishobora kuba inshuti nziza kandi rikanakuba hafi cyane kuko mu Rwanda baravuga ngo gaburira imbwa iminsi itatu, izakwibuka imyaka itatu. Ikimenyetso kigaragaza ko imbwa izirikana umuntu wayigiriye neza, aba bagabo rero bafite imbwa ziziritse imigozi mu ijosi kandi bari kuzicunga cyane.

Inka yari umuco. Inka yari ikimenyetso cy'ubukire ndetse n'ubukungu mu Rwanda rwo hambere. Izi rero ni inka nyinshi cyane ziri mu byatsi kandi ziri kumwe n'abantu babiri bazoroye.

Inyoni ya kigoma ihagaze ku gishyitsi kinini, iyo nyoni ifite amabara agiye atandukanye, harimo: umweru, ubururu ndetse n'umukara. Iki gishyitsi, ni igiti kinini cyane bakase, bagikatiramo hagati, ni cyo iyo nyoni ihagazeho.

Iki ni igikoko ahanini kizwi nk'inguge, gifite amabara abiri harimo umweru ndetse n'umukara, kiryamye mu giti ahantu hari amashami menshi asa icyatsi, kiri kureba imbere, kiri kuruhuka.

Inguge kimwe mu bikoko abantu bakora ubushakashatsi bagasanga abantu ariho dushobora kuba twarakomotse, iyi nguge ni umukara kandi iyo uyirebye neza usanga ariho abantu dushobora kuba twarakomotse koko.

Inzoka isa icyatsi izwi ku izina ry'inshira, iyi nzoka igira ubumara bwinshi cyane kandi cyane cyane buba mu macandwe yayo ku buryo iyo uciriye umuntu ashobora guhita apfa, iyi nzoka iri ahantu hari urutare runini cyane.

Akanyoni gafite amabara menshi atandukanye harimo ibara ry'ubururu ari na ryo ryiganje, hakaba umweru ndetse n'umunwa w'umutuku, iyo nyoni ihagaze ku giti kiriho utwatsi twinshi dusa icyatsi.

Igiti kiryamyeho igikoko cyitwa inguge, ibi biti ni byinshi cyane biri ahantu mu ishyamba kandi iri shyamba rikurura imvura bigatuma ibihingwa bibona imvura kandi bikabona n'akazuba ku kigero kingana kugira ngo byeri neza.

Inyamaswa ebyiri zizwi ku izina ry'inguge, zifitemo amabara y'umukara, ndetse n'umweru, zicaye ku biti bifite amabara asa icyatsi, kandi ayo mabara ni ay'ibibabi.